Umurima munini w'ibigori uriho umufuka wanditseho Ureya umeze nk'aho ari uw'imvaruganda, ibigori bitoshye, byiza, hirya hari ishyamba ry'ibiti binini bikikije umurima w'ibigori.

Umuririma bari gushyiramo ifumbire y'ishwagara, cyangwa ubutaka buba bwarateguwe, buvangwa n'ubundi butaka kugira ngo bugire umwimerere, bityo ikimera bagiye guhingamo, kizagire ubuzima bwiza, kuko ishwagara riba rigifite umwimerere ubwaryo.

Abantu bahetse ibikoresho bikoreshwa mu gihe cyo gutera umuti mu bihingwa bitandukanye, nk'ibigori, aba bari gutera umuti bari kumwe n'abasirikari, bambaye iniforume zabo z'akazi.

Umugabo uri gutera umuti mu bwoko bw'ibihingwa by'ibinyampeke byitwa umuceri, bikaba byera mu gishanga, bikaba bivamo ibiryo byo kurya.

Ibishingwe ikaba ari ifumbire y'imborera ikoreshwa mu gufumbira imyaka itandukanye, kuko ituma imera neza igihe bivanzwe n'itaka risanzwe.

Umugabo urimo gutera umuti mu murima w'imyaka harimo ikibara cy'ibyatsi, arimo gutera umuti wica udukoko turya imyaka, akoresheje ipombo yabugenewe itera umuti.

Ibizenga by'amazi byororerwagamo amafi, ubwoko bw'inyamaswa ziba mu mazi ziribwa. Ibyo bizenga biherereye munsi y'umusozi, hari n'ishyamba ry'ibiti hafi aho.

Icyokezo cyangwa iziko bokerezaho inyama n'ibindi bintu byo kurya nk'amafi. Aha bakaba bari kotsaho ifi, ikaba ari inyamaswa yo mu mazi ikundwa cyane mu tubari ,mu mahoteli n'ahandi cyane cyane iyo yokeje nk'uku nguku.

Amazi menshi cyangwa ikiyaga kiri hagati y' imisozi ibiri, iki ni kimwe mu bintu bituma abahaturiye biteza imbere, kubera ko bajyayo bakaroba cyangwa bakambutsa abandi bantu, bakoresheje ubwato bikabaviramo kubona amafaranga atuma biteza imbere.

Inyamaswa zizwiho kuba ziba mu mazi, abarobyi bakaba baziroba bakazijyana ku isoko abaguzi bakaza kuzigura, bakaba baziteka zikavamo ibiribwa, zikaba zinatanga intungamubiri nyinshi cyane.

Amafi, inyamaswa ziba mu mazi. Abantu bajya kuziroba bakazigurisha, zibaviramo amafaranga ndetse bazikuramo n'ibyo kurya, kuko zigira inyama zikungahaye kuri vitamini y'ibyubaka umubiri.

Udupaniye batwaramo amafi igihe bamaze kuyaroba, akaba ari udukoresho bakoresha bari gupakira amafi mu modoka, kuko bayaroba mu mazi, bakayajyana mu masoko, mu mujyi n'ahandi kugira ngo bakuremo amafaranga.

Amafi ubwoko bw'inyamaswa ziba mu mazi zikaba ziribwa. Ziba mu mazi menshi nk'inyanja, ikivu cyangwa imigezi. Ariko hari n'ahantu bayororera mu bizenga. Akaba atanga inyama, amafaranga, kubera ko zikundwa mu mahoteli no mu maresitora y'ahantu.

Inyamaswa cyangwa amafi aba mu mazi, bikaba ari kimwe mu bintu bikundwa, kuko bigira inyama ziryoshye kandi zikungahaye ku ntungamubiri; zizwi nk'ibyubaka umubiri, bikaba bitanga amafaranga ku barobyi n'abacuruza inyama mu mahoteli no mu mabusheri.

Amafi abiri atetse ahiye ari ku isahani, bigaragara ko agiye kuribwa yateguranwe n'indimu, te, ndetse n'ibyatsi bita sereri.

Ubwato, igikoresho abantu bakoresha mu ngendo zo mu mazi, bambukiranya amazi magari. Kikaba ari igikoresho gikoreshwa mu biyaga mu migezi ndetse no mu nyanja, iki ni ubwato budafite moteri baragasha bubakagenda bakambuka.

Inyamaswa ziba mu mazi zikaba zororwa, izindi zikaba ziba mu nyanja mu biyaga no mu migezi ,zikaba ari inyamaswa zigira inyama kandi zitanga amafaranga ku bantu baziroba n'abazorora ,zikaba zikundwa mu mahoteri mu maresitora n'ahandi.

Amafi, inyamaswa zororerwa cyangwa ziba mu mazi, zikaba zivamo inyama, abantu bajya kuziroba bakazigurisha ku isoko, zikaba zigira vitamini ikungahaye ku byubaka umubiri.

Ubwoko bw'inyamaswa yororerwa mu mazi cyangwa iba mu mazi ifi, ikaba ari inyamaswa iba mu ifi ikundwa cyane n'abantu kuko inyama zayo zikungahaye kubyubaka umubiri. Zikaba zigurishwa mu mahoteli no mu maresitora yo mu mugi bigatanga amafaranga.

ubwoko bw'ifi buba mu mazi, bukaba bukungahaye ku byubaka umubiri, ikaba irobwa ikavanwamo bakayiteka nyuma ikaza kuribwa ,igira amagufa n'inyama ziryoha cyane.

ikiguriguri ahantu baba barahinze ibigori bakamara kubisarura, aha harimo amajeri cyangwa amashaza kikaba ari igihingwa gihingwa mu murima bisanzwe, kikera ahantu hatandukanye.

Igihingwa cy'igihaza cyera kiri kuranda mu murima hasi. Kikaba ari igihingwa gikundwa kubera ko cyera ibihaza biryohaha cyane, abaturage barabihinga bakabijyana ku isuko cyangwa bakabirya, ibyo bajyanye ku isoko bakuramo amafaranga.

Uruzitiro akenshi ruba rukikije urugo cyangwa se ahantu hari umurima wahinzwemo ibintu runaka. Hari i isombe y'igihingwa kiribwa, ukaba n'ibigorigori, ibiti basaruyeho ibigori.

Umurima uherereye ahantu h'ikibaya, hakurya hari ikirunga, harimo ibiti binini birebire, umumama wikoreye inkwi avuye gutashya, iruhande rw'uwo murima hariho ikibara, uwundi murima uteyemo karoti.

Igihingwa cy'ibirayi cyera ahantu haba itaka ryinshi cyane cyane mu gice cy'amajyaruguru y'u Rwanda. Kikaba ari igihingwa cy'ibirayi gikundwa kandi kiribwa cyane mu mujyi mu cyaro n'ahandi kandi kikaba giteza imbere abahinzi bacyo.

Ahantu hari imbuga ifite iruhande igipangu cy 'inzu, kakaba hari amateke, amabuye, n'imboga, amateke akaba ari ikiribwa gitera imbaraga, kikaba cyerera hasi mu butaka, kikazamura ikimera cy'amakora n'ibindi.

Ibiti byitwa intusi. Bikaba bivamo ibintu bitandukanye harimo inkwi, amakara, ndetse n'imbaho. Ni ibiti byo bakoresha ahantu hatandukanye. Kikaba ari igiti gikomera cyane, ugereranyije n'ibindi biti tuzi binini.

Umurima w'amashu weramo ibintu bitandukanye aha hezemo amashu, ubwoko bw'imboga bukaba bukungahaye cyane, kubera ko abantu barabukunda. Mu bigo by'amashuri n'ahandi hantu hajya abantu benshi, n'abantu barabihinga bakabijyana mu isoko.

Igiti kinini cyaranze cyane kiri impande y'amazi ari mu icyari cy'inyoni, iruhande hari igiti cy'umugano kiri impande y'amazi.

Ikibara kirimo ibyatsi ubona ko cyasaruwemo amasaka, hasigaye ibikenyeri birimo gushibuka. Hijya hari urugo ruhakikije ruriho insina n'ibitoki n'ibiti bihakikije.

Ibiti cyangwa ibigorigori biva ku bigori, mu gihe bamaze kubisarura. Abaturage babikoresha bari gushingirira cyangwa bari kuzitira urugo cyangwa se amatunda. n'ibindi.

Umurima uhinze, wamaze kuba intabire, urimo ibiti bitemye, birambitse, hateyemo insina z'ibitoki by'inyamunyo, hirya hari urugo rukikijwe n'ibiti, n'ubwatsi bw'ikibara, buri impande y'uwo murima.

Ikimera cyitwa itunda, kikaba ari igihingwa gihingwa mu murima cyangwa ku rugo kikaranda, nyuma kikazana imbuto zikundwa cyane kuko zituma umuntu agira ubuzima bwiza, bazijyana ku isoko, zigatanga amafaranga menshi.

Umugabo urimo witegereza imbuto z'amatunda zaranze ku biti, ubona ko bayahinze ameze neza, amwe atangiye no gutukura, kandi yenda gusarurwa.

Inyanya ,avoka n'imineke n'ubunyobwa biri mu ndobo. Inyanya n'avoka birambitse ku gatandaro bisa nk'aho biri mu nzu y'ubucuruzi bitegereje kugurishwa . Ni imbuto ziryoha.

Umugabo washyize igikoresho cy'isuka ku rutugu, isuka ikoreshwa mu gihe cyo guhinga ikaba ari igikoresho kizwi cyane, kuko gikoreshwa mu buhinzi bwo mu cyaro.

Imbuto, imboga, ibirayi, tungurusumu n'ibindi byinshi, bikaba ari ibicuruzwa bicuruzwa mu masoko, abantu bahinga nyuma bakabijyana ku isoko bakabigura, bakuramo amafaranga abateza imbere mu buzima bwabo.

Ibi ni ibirayi, igihingwa gikundwa cyane kubera ko kiri mu binyamafufu. Abaturage baragihinga mu butaka bakakigurisha. Bagakuramo n'ibyo kurya. Kivamo ifiriti, n'ibindi bintu nk'amasambusa, ibiraha biva mu birayi biryoshye cyane.

Abantu bapakiye ibiti bikiri bitoya, bajyanye kubitera ahantu kugira ngo bizakure bivemo umusaruro. Harimo ibiti byiganjemo ibikura bikavamo imbaho, bikaba biterwa mu kurwanya isuri, no gutera amashyamba nka gahunda ya Leta.

Umugore uri mu gishanga ahantu hera imboga z'amashu, akaba arufite avuye kuzisarura. Akaba ari imboga bahinga ahantu mu gishanga, zikaba zerera igihe gito, ikindi bazijyana ku isoko zikavamo amafaranga, kuko zikundwa cyane n'abantu barya ibiryo byinshi, nko ku mashuri, no mu magereza n'ahandi.

Intoryi, igihingwa gihingwa kigasarurwa bakakijyana ku isoko. Kivamo amafaranga kuko kiribwa mu cyimbo cy'imboga. Gikunda guhingwa mu gishanga no mu musozi mu gihe cy'imvura, kikajanwa ku isoko bakakigura, abo mu bigo by'amashuri, n'abandi baturage bakirya mu ngo zabo

Umugabo ufite agapfukamunwa yifotoreza iruhande rw'ibiti by'imbuto, by'umwembe n'ikawa. Harimo insina, amateke, ndetse n'ibindi biti birandaho amatunda.

Umuhinzi uri mu murima w'umuceri uherereye mu gishanga, afite akayuya, igikoresho gikoreshwa bakera umuceri mu mu gihe cyo kuwusarura bawukura mu gishanga, kugira ngo bajye kuwuhura.

Umugabo uri mu murima w'imbuto z'inanasi, akaba ari kuzisarura. Igihingwa cy'imbuto cyera mu musozi, kikaba ari igihingwa cyera kikaba kiryoherera kikaba gikundwa cyane cyane mu mugi, abahinzi bacyo bakuramo amafaranga menshi cyane.

Abantu baba bavuye mu murima gusarura ibyo bahinze bakabijyana kubihunika ahantu, kugira ngo bazabijyane ku isoko igihe cyageze, cyangwa se bazabikoreshe nk'igihe runaka kiri imbere, bikabafasha kubaho mu bundi buzima.

Umukumbi w'ihene ukaba ari ihene nyinshi zororerwa ahantu hihariye, zikaba ari nyinshi cyane, kandi akaba ari amatungo akundwa cyane mu mujyi no mu tubari, kuko zigurishwa nk'inyama zizwi nka burusheti, zikaba zigira amafaranga ku borozi bazo.

Isoko ry'ibiribwa bacururizamo imbuto n'ibindi bintu bitandukanye harimo ibirayi, ibitoki, ibijumba n'ibindi abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi. Abacuruzi bajya kubishaka mu cyaro, n'ahandi hantu babihinga bakabizana mu isoku kugira ngo bigurishwe.

Abaturage bafite imbuto y'ibirayi bakoresha mu gihe cyo guhinga ibirayi, bakaba bajya kuyitera nyuma yo guhinga intabire bakayiterana n'ifumbire nyuma bakajya barabyitaho nyuma y'amezi ane cyangwa atanu bakaza kubisarura bakabijyana ku isoko bagakuramo amafaranga.

Ibitunguru bikaba ari igihingwa gihingwa mu musozi cyane cyane, bikaba bikoreshwa mu gihe cyo guteka, cyangwa kubikatira hejuru y'ibirayi by'ifiriti bigahumura, bituma ibiryo bihumura, ikindi bihingwa mu mujyi, no mu cyaro barabiteka ariko cyane cyane mu mujyi.

Igihingwa cyangwa ubwoko bw'igihingwa kiri mu bitera imbaraga cyitwa amateke, kikaba gikunda kwera ahantu h'igishanga kikaba ari igihingwa gikundwa kuko abantu babyeza babijyana mu isoko ,abantu baba mu mugi n'abandi batagira ibyo kurya bakabigura bigatuma abahinzi biteza imbere.

Igihingwa k'ibirayi bapakiye mu mifuka, kugira ngo bakijyane ahantu ha kure, nko ku masoko n'ahandi. Ibi bikorwa mu gihe keze, bakagisarura bagamije kugitwara, ngo bakigeze ku isoko cyangwa aho bashaka.

Imbuto z'inanasi zigurishwa mu isoko，zihingwa ahantu cyane cyane mu musozi，zikaba ziryohera， zikorwamo n'amasukari，n'ibindi， imitobe yose inyobwa. Aha bari kuzigurisha，urayibaga ukayirya.

Isoko ry'ibiribwa cyangwa ry'ubucuruzi buciriritse, aho bacuruza ibyo kurya n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu rugo biciriritse, akaba ari iminzani bapimiraho ibyo kurya n'ibindi bitandukanye.

Ibijumba, igihingwa gihingwa cyane cyane mu cyaro. Kikaba ubu ngubu cyarateye imbere, kuko gikorwamo imigati, biswi n'ibindi. Icyo kikaba giteza imbere abahinzi bacyo. Kikaba ari igihingwa cyo mu bwoko bw'ibinyamafufu. Kikaba gitera imbaraga uwakiriye.

Igihingwa cyitwa imyumbati cyerera munsi y'ubutaka kikazana ibyo kurya, kiri mu bwoko bw'ibitera imbaraga kuko ni igihingwa batera igiti, kikerera hasi mu butaka.

Amaterasi akaba ari ibintu baca mu musozi kugira ngo hirindwe amasuri, no gutemba kw'ifumbire cyangwa ubutaka. Bikoreshwa amasuka bacukuramo utuntu tw'imitabo, dutuma amazi adatembana itaka cyangwa imyaka byoroshye.

Igiti cy'umwembe akaba ari igiti cyera imbuto zikundwa cyane mu masoko, kikaba ari igiti kikunda kuba kiri hafi y'urugo cyangwa mu ishyamba, kikaba cyera imbuto zigashya zikaba umuhondo ,zikaba zijyanwa mu isoko abantu bakazigura bakazirya.

Ikinyomoro cyangwa ubwoko bw'urubuto bwera ku giti, bukaba ari ubwoko bw'imbuto zikundwa cyane mu masoko, cyane cyane kuko ngo zikungahaye ku byubaka umubiri, mu birinda indwara kuko zongera amaraso mu mubiri w'umuntu, zikaba zikundwa cyane ku masoko.

Umu mama uri kubagarira igihingwa cy'ibirayi, kikaba ari igihingwa gihingwa mu kibaya cyangwa mu musozi, kikaba kerera mu butaka, bakagikura kikajyanwa ku isoko, kivamo ibyo kurya nk'amafiriti, n'ibindi bintu bakoramo nk'amasambusha, n'ibindi byinshi.

Umuntu uhetse igikoresho cyitwa ipombo bakoreshaga bari gutera umuti mu bihingwa ,ari gutera umuti mu gihingwa cyitwa ibirayi cyera mu itaka, kikaba ari ibiryo abantu bakunda cyane, bakaba kijyanwa ku isoko kikavamo amafaranga.

Umumama ufite ubwoko bw'imboga zitwa amashu, zikaba zihingwa mu gishanga cyangwa ahandi hantu hagira ubutaka bubohereye. Akaba ari imboga zikundwa cyane cyane ahantu bagaburira abantu benshi, nko mu bigo by'amashuri, ku bigo bya gereza, n'ahandi haba abakozi benshi cyane.

Umumama uri mu murima w'ibirayi bitari byera ariko byatangiye kuyanga, babitera mu butaka bikazamura ikimera bigakura, byageraho bikayanga nyuma bikera. Barabisarura bakabijyana ku isoko hakavamo amafaranga, yifashishwa mu iterambere ry'abaturage babihinze.

Imbuto ziribwa zitetswe zitwa ibibiriganya, zera zitukuye zikaba zihingwa mu gishanga no mu misozi, hose zirahera, zifite amababi y'icyatsi zikera imbuto zitukura.

Igiti cyeramo ubwoko bw'imbuto bwitwa amapapayi, kikaba gikura kikiri gito, kigahera hasi cyagera hejuru kikayanga kikavaho izi mbuto zera zitukuye, zikajyanwa ku isoko zikavanywamo amafaranga.

Ibishyimbo bitari byera bikiri intonore. Bikaba ari igihingwa gikundwa cyane, kubera ko iyo cyeze kivamo amafaranga. Intonore ni zo ziryoha igihe bikiri ibishyimbo bitari byuma, niho byitwa intono.

Igihingwa cyiza gihingwa mu ita kitwa amateke kikaba ari ikiribwa abantu bahinga, bashaka bakakijyana ku isoko cyangwa bakakirya, kikaba kiri mu biribwa bikungahaye kuri vitamini bitera imbaraga umubiri.

Inkoko cyangwa ubwoko bw'ikiguruka bwitwa dendo. Akaba ari ubwoko bw'inkoko nini cyane zigira ibiro byinshi ugereranyije n'ibindi biguruka, bororera mu rugo. Biba bitera amagi, bigatanga n'inyama, n'amafaranga.

Isoko ry'ibiribwa ririmo ibitoki, aho abaturage bazana ibitoki babikuye mu rugo bikabaha amafaranga atuma biteza imbere, kubera ko ibitoki ni ikiribwa gikundwa cyane n'abantu, bityo bituma kivamo amafaranga menshi cyane.

Ahantu mu gishanga harambitse amahema banitseho imyaka bamaze gusarura. Igaragara nk'aho ari nk'amasaka, bakaba bayahura, bakayanika ku mahema kugira ngo yume azavemo ibyo bashaka kuyakoresha cyane cyane amafu cyangwa ibindi.

Isoko ry'ibiribwa by'ibirayi biri hasi batanditse ku mahema, abaguzi baza kubigura bagapima ku munzani, abantu bari mu isoko bafite n'amagare n' inzu z'ubucuruzi ziri hafi aho.

Imifuka iri mo imiteja, ubwoko bw'imboga buva mu bishimbo. Bikaba ari ibishimbo byera n'imiteja bakabirya babiteka nk'imboga, bigatera vitamini nk'iy'imboga, ari yo irinda indwara.

Imyumbati ni igihingwa cyangwa ibiribwa bihingwa mu butaka bwumutse, kuko kiba gikomeye ari nabwo kiryoha, akaba abahinzi bagihinga bakabijyana mu isoko, rimwe na rimwe bakabirya. Abantu bakiteza n'imbere binyuze mu myumbati.

Amasaka igihingwa cyiza, kera mu cyaro gitanga amafaranga ku bahinzi, kuko umusaruro w'amasaka ukunda gukoreshwa mu mafu y'ibikoma n'amafu yandi atandukanye, ikindi kandi ikaba ikoreshwa mu rubetezi bakoresha inzoga.

Igihaza, ikiribwa cyera kiri kuranda, bakaba bagiteka ku bishyimbo cyangwa mu biryo bisanzwe, kigira inzuzi mo imbere zivamo ibindi bihaza igihe baziteye mu butaka. Ikindi kiri mu bintu bivamo amafaranga, kuko abagihinga bakijyana ku isoko, bakabaha amafaranga.

Abahinzi barimo gutera umuti mu murima w'ibigori bikiri bitoya, ubona ko barimo kwica udusimba turya ibigori twitwa nkonkwa, kandi barimo kuhira kugira ngo amababi yabyo atohe.

Ibiguri cyangwa amahundo, ibi nibigori bimaze kuma byasaruwe, mu gihe bitegerejwe kujyanwa ahantu, bakabihungura bakabijyana mu ruganda, cyangwa mu masoko, bikavanwamo akawunga.

Ubwoko bw'imboga bwitwa amashu buhingwa mu butaka, bukaba bwera bukiri hasi, ariko bukaba nta mbuto bugira, bukaba imbuto zabwo ziva mu ruganda kuko ziratuburwa.

Umugabo uri gutera umuti mu bihingwa by'ibigori. Akaba ari igihingwa cyane cyane giteza imbere abaturage, kuko iyo bagihinze umusaruro wacyo ukoreshwa mu nganda zikora akawunga, ndetse n'amafu y'igikoma n'ibindi.

Igihingwa cyitwa inyanya cyo mu bwoko bw'imbuto, bahinga mu mirima maze bakagishingirira, kugira ngo kizamuke kizabone uko cyera. Kikaba ari igihingwa gituma abantu biteza imbere kuko gitanga amafaranga ku bahinzi. Babijyana mu isoko no mu mijyi n'ahandi bikagurwa amafaranga.

Ubwoko bw'imboga bwitwa imiteja, buva mu bishyimbo. Barabuhinga bugakura, bwamara gukura, bukazana imiteja, bakayisarura, bakayiteka, bayirya mu cyimbo cy'imboga, kuko igira vitamini nk'iy'imboga.

Amapapayi ubwoko bw'imbuto bwera ku giti cy'ipapayi, zikaba ari imbuto zikundwa cyane n'abantu zikaba zihingwa zikajyanwa mw' isoko cyangwa bakazirya, zivanwamo amafaranga menshi kuko abantu barazikunda cyane.

Igitunguru kikaba ari igihingwa gihingwa mu itaka, kikaba ari igihingwa gikoreshwa mu gihe cyo guteka, bakaba bagikarangisha ibiryo, ikindi ni igihingwa giteza imbere abahinzi kuko gikundwa mu mugi n'ahandi hantu mu gihe cyo guteka.

Igihingwa cy'ikigori kimaze gukura, kigeze igihe cyo kuribwa ariko kitari cyagera igihe cyo gusarurwa. Akaba ari igihingwa cyera mu misozi, mu gishanga n'ahandi hose, cyane cyane mu gihe cy'imvura, kuko gikenera amazi kugira gitohe kizatange umusaruro ushimishije.

Ikimera cy'ibigori kiri mu murima urimo abagabo bari kwifotoza bafatanye amaboko. Kikaba ari igihingwa cyera mu mirima, mu bishanga, mu misozi, kivamo amafaranga kuko kiri mu bintu bikundwa cyane havamo ifu izwi nka kawunga n'ibindi.

Igihingwa cyitwa ikigori batera impeke zigakura, zikazana ikimera kizamuka gifite igiti n'amababi, nyuma kikaza kuzamura akantu ko hejuru kikayanga, kikazamura n'ahantu hava ikigori, nyuma cyamara kwera kigasarurwa kikajyanwa ku ruganda.

Icyatsi cyitwa igifuranende, kikaba ari icyatsi gikunda kumera mu kibara abantu cyangwa ahantu hahingwa imyaka y'ibigori, ibishyimbo, ibirayi n'ibindi. Kikaba ari ikimera kivamo ibiryo inzuki zikunda zikoramo ubuki binyuze mu rurabo rwacyo.

Umurima w'ibigori byumye bigeze igihe cyo gusarurwa, ubona ko harimo ibikenyeri byatangiye kuma n'imisigati yatangiye kuma. Ibigori bigeze igihe cyo gusagugwa bigahunikwa, bigahungugwa hakavamo imbuto, cyangwa bakabirya igikoma n'ibindi.

Urubuto rw'igihaza rwera ruranda ahantu barukuramo imbuto zitwa inzuzi bakazitera, cyangwa se bakazikaranga, bakazirya ku biryo.

Urubuto rw'itunda rutukura iyo rweze, ruraranda, rukazana imbuto, ndetse ruraribwa, izo mbuto zikorwamo amaji atandukanye, rukaba rukungahaye kuri vitamini.

Ahantu ku muhanda hari akazu ka mtn kabamo umu agenti. Hakaba hari ibisheke byinshi byegetse ku nzu bigaragara ko baje kubigurisha, kandi hari n'icyapa kinini cyamamaza kiriho ifoto y'abantu.

Igihingwa cyangwa urubuto rwitwa avoka kikaba ari imbuto zerara mu giti kinini zikundwa cyane ku masokokaba kikaba ari igihingwa kigurishwaga mu masoko kuko abantu baragikundaga cyane

Urubuto rw’avoka, ruribwa ku biryo, rukaba rugira ikibuto mo imbere, kivamo izindi voka. Zera mu giti kinini, kiranda, kikazana uruyange. Nyuma hakaza voka, bakayitara, nyuma y’iminsi mike, igashya, bakayijya.

Igihingwa gihingwaga impande y'urugo cyangwa ahandi hantu ku musozi cyitwa umwembe. Ni ubwoko bw'urubuto rukundwa cyane n'abantu. Rukaba rwera ku giti nyuma rukaza gutukura rukaribwa, zinacuruzwa mu isuku zikabyara amafaranga.

Ibitoki byinshi birunze hamwe byasaruwe bigaragara ko bigiye kuribwa ibi bitoki ni ubwoko bw'inyamunyu biratekwa mu biryo bikaribwa.

Igihingwa cyitwa ikigori, cyera mu butaka kikazamuka gifite ikigorigori irititigiri, kivamo akawunga ndetse n'ifu y'igikoma.

Ubwoko bw'ibishyimbo, buba ari imboga, bwitwa imiteja. Barabuhinga bugakura， bwakwera, bakabusarura bukiri imiteja, kugira ngo baburye nk'imboga, kuko buri mu bitera imbaraga, kandi bikaba birinda indwara.

Igihingwa cy'igihaza, gihingwa mu cyaro cyangwa mu buhinzi buciriritse, kikaba cyera ari igihaza, kikajyanwa mu isoko cyangwa bakakirya, ariko kigira amafaranga kuko abo mu mugi badahinga, bakunda ibihaza cyane.

Ubwoko bw'imbuto bwitwa imyembe, bukaba ari imbuto ziribwa, zikaba zera zigatukura, zikaba umuhondo. Izi mbuto zirahingwa zikajyanwa ku isoko hakavamo amafaranga ku bahinzi bazihinze.

Ihene y'isekurume ubwoko bw'itungo rigufi ryororerwa mu rugo cyangwa ahandi hantu mu rwuri, rikaba ritanga inyama n'amafaranga rikaba ari itungo rikundwa cyane, kuko inyama zaryo zigurishwa mu tubari no mu ngo mu buryo busanzwe.

Uri uhagaze mu gishanga yambaye ingofero, afite amashu abiri asa nkaho yeze, agiye avuye kuyasarura mu yandi ateye mu gishanga.

Igihingwa cyitwa ikijumba. Kikaba ari ubwoko bw'ibiryo bitera imbaraga, kikaba gihingwa mu murima abaturage bagihinga kibafasha mu buzima bwa buri munsi, kuko havamo amafaranga ndetse n'ibiryo barya buri munsi.

Ubwanikiro cyangwa ubuhunikiro. Ahantu habugenewe abahinzi bahunika cyangwa bashira umusaruro wabo, kugira ngo utangirika. Nyuma bakazawugurisha bituma bakuramo amafaranga menshi, abafasha mu iterambere no mu buzima busanzwe.

Umugore wambaye bote, ufite isuka amabase, uri ahantu bahinga ibihingwa bitandukanye, akaba agaragara nk'aho ari mu kibaya, hakaba hari itaka ryera ryiza. Umugoreri afite ibikoresho byifashishwa mu kuvomerera amazi kuri ibi bihingwa no kubitera umuti.

Igihingwa cyitwa icyayi kikaba ari igihingwa gikungahaye cyane, kikaba cyoherezwa mu mahanga hakavamo amafaranga ateza imbere abahinzi n'igihugu.

Ibigori by'umweru byumye bihunguye bivanze n'amasaka, bibeteshwa bikavamo igikoma cyangwa ifu ikogwamo umusururu n'inzoga.

Umumama ufashe isuka, igikoresho gikoreshwa mu guhinga, gucukura cyangwa se n'ibindi bijyanye n'ubuhinzi. Ari mu murima ahantu hari ibigori byenda kwera byahetse.

Ubunyobwa, kikaba ari igihingwa cyo mu bwoko bw'ibinyampeke, gihingwa cyane cyane mu musozi. Kikaba cyerera mu butaka bakagisarura k'ikanikwa cyakuma, bakakijyana ku mashini cyangwa bakagisekura hakavamo ubunyobwa bashyira mu biryo.

Ahantu mu kibuti cyangwa mu nzu yurorerwamo inkoko akaba ari uduswi cyane cyane ududukoko twa kizungu. Tukaba dukorwa cyangwa dutuburwa se n'imashini, bafata amagi bakayashira mu mashini, ikazayaturaga, udukoko bakatwororera hamwe tugakura.

Ahantu hahingwa imyaka itandukanye, cyane cyane ibigori, amasaka, ibijumba n'iyindi myaka nk'ibishimbo. Aha hezemo ibigori igihingwa gikundwaga guhingwa cyane ahantu h'ikibaya kikaba gikungahaye ku isoko kuko gikundwa ,gikorwamo kawunga n'amafu y'igikoma.

Inzu abaturage b'abahinzi bahunikamo imyaka ya bo bejeje yiganjemo ibigori, amasaka n'ibindi byinshi, urabona ko harimo ibigori, bikaba bihunikwamo, nyuma bikaza kujyanwa mu ruganda hakavamo ifu n'ibindi biva mu biguri.

Ihundo ry'amasaka yeze yatukuye ubona ko hategerejwe ko bayumisha, bakajya kuyabetesha bakayakuramo urukoma cyangwa ifu y'igikoma.

Umuntu uri kugosora ibishyimbo akabishyira mu mabasi. Ari kubigosora akoresheje intara ,igikoresho gikorwa mu duti tubaje neza. Kikaba gikoreshaga mu kugosora ibishyimbo bamaze gusarura ,barimo kubivangura n'ibyatsi byari byivanze n'ibishyimbo.

Amahundo y'amasaka menshi arunze ahantu, ategerejwe guhurwa kugira ngo bazayajyane kuyabeteshamo ifu yo gukora umusururu, cyangwa urubetezi rwo gutaramo urwagwa.

Mu gishanga bahinga ibihingwa bitandukanye, byiganjemo umuceri, akaba ari mu gishanga, aho bagenda bakahategura, bakanyuzamo amazi, kugira ngo ubutaka butohe, maze ibihingwa byere neza.

Imiteja, ubwoko bw'ibishyimbo barya butarera ngo bwume. Barabutera bukazana uruyange, ubwo bukaba butangiye kweraho imiteja. Yamara gukomera bakayifata bakayirya, kuko ari ubwoko bw'imboga ariko buva ku bishyimbo.

Ubwoko bw'igihingwa cyangwa ibinyampeke cyitwa ikigori, kikaba ari igihingwa gikundwa cyane kandi kigira umusaruro mwiza, k'uko kivamo amafu y'ubwoko butandukanye, Cyane cyane kawunga, igikoma, n'ibindi kikaba kivamo amafaranga ku bahinzi bacu.

Are mahundo akaba ari igihe ibigori byeze bakabisarura bakabitonora, bakabibika bikuma, mbere y'uko babihungura ngo bivemo ibigori byo kubetesha, cyangwa barya ari impungure. Ibi ni ibigori by'amabara bikundwa cyane kuko ari byiza.

Ubwoko bw'ibishyimbo byera ahantu biranze ku biti cyangwa ku ruzitiro, bifite uruyange cyane cyane rukundwa n'inzuki kuko zikuramo ibyo kurya zikoramo ubuki.

Ibihingwa byitwa ibihwagari byera bizanye indobo, zikavamo utubuto bakuramo amavuta, n'indi miti ngo yifashishwa mu kuvura uburwayi butandukanye, byera ahantu h'ikibaya n'umusozi.

Igiseke cyangwa igisobane, kikaba ari igikoresho gikoreshwa cyane mu cyaro, kuko gikoreshwa bari guhunikamo imyaka, cyangwa batwaramo ibintu bitandukanye. Gikorwa mu biti barakiboha neza bakagitera amase, bakagisiga cyangwa ibumba kugira ngo imyenge igabanyuke.

Igihingwa cyitwa amashaza cyangwa amajeri kikaba ari igihingwa cyera, kikavamo amajeri agurishwa mu masoko ahantu henshi ,akaba ari amajeri aryoha cyane ku biryo, abantu barabikunda bituma kivamo amafaranga menshi.

Ubwoko bw'ibimera byitwa ibishimbo, kikaba ari igihingwa kizwi kiribwa, kikaba bihingwa bikajya mu butaka, bigakura bikazamuka, bakabiha ibishingirizo byo kuzamukiraho, nyuma bikera bakabisarura bakabirya.

Ubunyobwa akaba ari igihingwa cyo mu bwoko bw'ibinyampeke cyerera mu butaka, akaba aha kitari cyatonorwa ngo kivanwemo, kuko kikiri mu bihu. Akaba ari ubunyobwa bakoresha, bakabutekesha, nyuma yo gutonorwa, ugasya, bakabubeta cyangwa ukaburya bukaranze butabese.

Ibishyimbo bikaba ari igihingwa cyo mu bwoko bw'ibinyampeke, kikaba kizwiho kuba gifite intungamubiri zongerera amaraso umubiri, ikindi kikaba kiri mu bwoko bw'ibitera imbaraga umubiri w'umuntu, kikaba kizwi cyane kuko kiba ku ifunguro rya benshi mu baturarwanda.

Umugore urimo kugosora akoresheje intara cyangwa isahani. Igikorwa bakora bari kurobanura ibishyimbo, amasaka, ibigori, kugira ngo havemo imyanda n'ibindi byatsi bituma bitamera neza. Mbere yo kujya kubibetesha, cyangwa kubigurisha barabigosora.

Ubunyobwa ibiribwa byera munsi y'ubutaka, barabihinga bikerera munsi y'ubutaka, nyuma bakabijyana ku isoko, bakabyumisha bakabibetesha bivamo ifu bifashisha bari guteka ibiryo.

Umugabo uvuga yambaye agapfukamunwa, igikoresho bakoresha bari kwirinda imyanda cyangwa izindi ndwara, zajya mu mazuru zinyuze hanze zikaba zinyura mu mwuka, akaba ari ahantu hari ibigori byahunitswe cyane byinshi.

Abagabo bari guhura ibishyimbo, igihingwa cyera kiri ku byatsi byinshi, kandi kikaba cyera, nyuma bakagihura, hakavamo ibishyimbo nka kimwe mu bihingwa bikunda gukundwa cyane ku isoko kuko kiba ku ifunguro rya benshi mu Rwanda.

Igihingwa ngengakungu cyitwa igihwagari. Kikaba ari igihingwa gihingwa cyane cyane ku bantu baba bashaka kwiteza imbere. Kuko gikorwamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo n'amavuta n'ibindi birungo bikorwa mu nganda, biribwa mu biryo bya buri munsi.

Ingurube : Itungo rigufi ryororerwa mu rugo, rikaba ritanga inyama, amafaranga ndetse n'ifumbire. Igihe ryitaweho neza, rituma umuntu atera imbere, kuko inyama zaryo zirakundwa cyane, kurusha nyinshi mu nyama zibaho.

Inka amatungo yororerwa mu rugo cyangwa mu rwuri zikaba ziba mu kiraro, zikaba zirya ibyatsi bituma zibonekamo umusaruro mwiza nk'amata, inyama cyangwa se amafaranga, akaba ari inka zirya ibyatsi cyangwa igiheri.

Inka, inyamaswa cyangwa amatungo manini yororerwa mu rugo, mu biraro cyangwa ahandi mu ishyamba. Ariko nko mu rwuri, akaba ari inka zitanga umukamo, inyama n'amafaranga ku bantu bazoroye.

Abantu bafashe inka iri mu kiraro. Ibi babikora mu gihe bashaka kuyiha umuti, cyangwa kuyivura no kuyitera urushinge, no gupima uburwayi ifite kugira ngo igire ubuzima bwiza. Bigatuma ikura neza.

Udupaniye cyangwa udukurete, dukoreshwa mu gupakira amagi, tuba dufite imyanya ituma amagi atameneka cyangwa ngo yangirike bitewe n'uko yoroha. Ni udupaniye dukoze ku buryo tuyarinda kwangirika mu buzima busanzwe bayatwaye.

Inka bororera mu kiraro. Akaba ari inka nini zimeze neza zitanga amata, amafaranga n'inyama. Umuntu uzorora akuramo amafaranga menshi, kubera ko inyama z'inka zikundwa, ikindi n'amata avamo arakundwa cyane, kuko avamo ibintu byinshi.

Ikiraro kirimo inka, akaba ari inka nini iri kumwe n'akana kayo cyangwa akanyana. Ibi bikaba biba nyuma y'uko imbyeyi cyangwa ishashi ihuye n'ingabo ikayimya, nyuma ikaza kubyara. Ikaba ibyara akanyana ikakonsa kagakura kakavamo amafaranga, cyangwa n'ako kakororwa kagatanga umusaruro.

Ubwoko bw'itungo rigufi ryitwa intama abaturage bororera murugo rigatanga amafaranga, ifumbire, inyama n'ibindi bararyorora ryakura bakarijyana ku isoko cyangwa bakaribaga bakagurisha inyama.

Ihene y'ishashi ikaba ari itungo riteza imbere abaturage, kuko ryorerwa mu rugo bidasaba ibintu byinshi, ahubwo rikaba ari itungo rituma biteza imbere, kuko rivamo amafaranga binyuze mu ifumbire, mu nyama ndetse no kuroroka.

Inka nyinshi ziri ahantu mu rwuri aha akaba ari ahantu hororerwa inka. Bafata ubutaka bunini bakabuzitira burimo ubwatsi bagashyiramo inka zikarisha nyuma zigatanga umusaruro w'inyama cyangwa amata bigateza imbere nyiri inka.

Inzu cyangwa ikiraro kinini cyororerwamo inkoko nyinshi, ibi bikaba ari kimwe mu bintu bituma abantu biteza imbere kuko izi nkoko zitanga amafaranga binyuze mu nyama cyangwa mu magi zitera yatuma habamo amafaranga menshi cyane.

Umugabo cyangwa umuveterineri uri gutera inka urushinge rurimo umuti, ibi bikorwa mu gihe inka irwaye, cyangwa bari kuyitera umuti utuma irindwa indwara zayigirira nabi bigatera umusaruro muke.

Itungo ry'ingurube rikaba yororerwa, mu rugo mu kiraro, rikaba ari itungo, ritanga amafaranga ku borozi baryo, kuko rikundwa cyane, mu kabari cyangwa mu ma Hoteli inyama zaryo zitwa akabenzi zirakundwa, bitumaga rihenda ku mafaranga.

Urukwavu runini rw'umweru rwiza ruri mu kibuti kirimo ibyatsi, ndetse cyubakishijwe ibiti na senyenge gikomeye neza cyane.

Umugabo uri gutera inka iri mu kiraro, ari kuyitera umuti akoresheje ipombo, uwo muti urinda udusimba turya inka, n'izindi nyamaswa, twitwa ibirondwe.

Umugabo ufashe akaguru k'ihene, ubwoko bw'itungo rigufi ryororerwa mu rugo rikaba rivamo amafaranga iyo barijyanye ku isoko, rikaba ribyara rikororoka, rigira n'amabere rironsa, ni mu bwoko bw'inyamabere.

Isoko ry'amatungo, ikaba ari isoko abantu cyangwa abaturage bajyana amatungo yabo magufi, byiganjemo inkoko, intama, n'amahene babijyana mu isoko kubigurisha hagati yabo n'abaguzi, bazijana mu mugi cyangwa mu mahoteri n'ahandi babaga inyama, bakazigura bakabaha amafaranga.

Ikibara cyangwa se ahantu haragirwa inka n'andi matungo arya ibyatsi nk'amahene, intama n'andi. Hakaba ari isambu iba ari nini bafata bakayireka bakayateramo ibyatsi, kugira ngo amatungo yabo boroye ajye abona ibyo kurya atange umusaruro.

Umusaruro ukomoka ku bworozi bw'inkoko nk'amatungo magufi, aha bikaba bikorwa cyane cyane ku bantu bafite umushinga wo korora inkoko nyinshi, zikaba zitera amagi, bakayagurisha mu nganda, mu masoko n'ahandi hakenerwa amagi cyane cyane inganda zikora ibintu zibishyiramo amagi.

Ikiraro kikaba ari inzu y'inka n'andi matungo, hakaba harimo inka n'abantu barimo bareba uko izo nka zimeze, bigaragara ko bazisuye barimo kuzitera umuti.

Ingurube za kizungu akaba ari ubwoko bw' itungo rigufi rivamo amafaranga menshi cyane, ku borozi baryo rikaba rivamo inyama zikundwa cyane zitwa akabenzi, ikindi ingurube zororerwa mu kiraro kugira ngo zikure neza.

Ingurube, itungo ryororerwa mu kiraro ahantu mu rugo rikaba ritanga inyama amafaranga n'ibindi, rikaba ari itungo rikungahaye kubera ko rituma abantu biteza imbere, kuko rivamo amafaranga menshi binyuze mu nyama zaryo.

Ikiraro cyangwa akayira bashyiramo inka, bikorohera kuzitera umuti kuko bituma zitabona aho zijya zirukira, bakaba bazitera umuti kugira ngo zigire ubuzima bwiza, zizavemo umukamo n'inyama byiza cyane.

Itungo ry'ingurube riri mu kiraro ahantu ryororerwa akaba ari itungo rigufi riteza imbere uwaryoroye kuko ritanga inyama, amafaranga ndetse n'ifumbire. Inyama zaryo zirakundwa cyane bituma zigira amafaranga menshi ku baryorora.

Inyamaswa iba mu ishyamba yitwa inguge. Ikaba ari inyamaswa imeze nk'umuntu, kuko igira amaboko n'amaguru kandi ikunda kurira ibiti, kuko itunzwe n'imbuto n'ibindi ikura mu ishyamba.

Akanyoni kaba ari gato cyane kitwa agafundi, kakaba ari akanyoni gakunda kuba kari kumwe n'utundi twinshi cyane, kakaba gakunda kuba ahantu babeta, karya ifu amasaka n'ibindi bintu nk'ibijumba bihiye, kakaba ari akanyoni kaba mu cyari.

Ingagi ubwoko bw'inyamaswa ziba mu birunga cyangwa ahandi hantu mu misozi, zikaba ari inyamaswa zikundwag na ba mukerarugendo bazana amadovize, igihugu gifite ingagi kigatera imbere kuko zibinjiriza amafaranga.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'imbeba, yitwa agacurama iguruka, ifite ubwoya ikaba igenda n'ijoro, kubera ko ku manywa ngo itareba neza.

Ubwoko bw'igisiga kikaba gitunzwe no kujya kuroba amafi mu mazi. Kigira umunwa muremure, kiwushinga mu mazi kikavanamo amafi. Gifite n'ubushobozi bwo kureba hasi mu mazi kikabonayo ifi kikayifata.

Inzoka nini cyane ikaba ari inyamaswa iba ari ndende iryana iba mu ishyamba, abantu benshi bajya kuzisura ziri mu ishyamba bari mu modoka kugira ngo itabangiza, ikaba ari inyamaswa n'izindi nyamaswa zitinya cyane.

Icyugu cyangwa umuserebanya ,inyamaswa iba cyane cyane mu cyaro nk'ahantu haba igiti cyangwa mu mazu atagira isima ,ikaba ari inyamaswa ikunda kurya udukoko tuguruka hafi aho mu nzu, no mu bibara bitandukanye.

Ubwoko bw'inyamaswa zo mu ipusi akaba ari agasimba kaba mu ishyamba ariko kagira n'utundi bororera mu rugo, akaba ari agasimba gatungwa n'utundi dusimba cyane cyane inkoko udusiga cyangwa se udukwavu kuko katwica kakaturya.